Icyapa kigaragaza impande ebyiri uruhande rumwe ni ubururu urundi ruhande ni umweru, ku ruhande rw'ubururu hashushanyijeho umugabo wambaye ingofero y'ubururu rinete z'umweru ndetse n'ishati y'ubururu handitseho n'amagambo avuga kwirinda ibirangaza mu gihe umuntu atwaye imodoka.

Mu iduka ahazwi nka butike mu ndimi z'amahanga hacururizwa imyambaro itandukanye ahari amashati ari mu mabara atandukanye, shokora, icyatsi, umuhondo, umutuku, oranje ndetse n'ubururu bwijimye.

Inoti nshyashya ya banki nkuru y'u Rwanda y' amafaranga ibihumbi bibiri by'amanyarwanda, ishushanyijeho agaseke ndetse n'ikiyaga gikikijwe n'ibiti yakozwe ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwa gatandatu , bibiri na makumyabiri na kane isinywaho n'umuyobozi mukuru wa banki nkuru, isinywaho n'umuyobozi wa banki wungirije.

Agapapuro k'umweru kanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, handitseho amagambo yo mu kirimi cy'amahanga ruguru, ariko harimo n'amagambo yo mu kinyarwanda ariho nk'amazina nka perezida Paul Kgame ndetse n'andi mazina agiye atandukanye.

Akabati k'umweru kegeranye n'akabati k'umutuku, akabati k'umutuku hejuru hari igishushanyo gishushanyijeho pome, akabati k'umweru harimo ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, ibyo kurya byanditseho igishinwa.